Bare habamo abantu benshi bagiye batandukanye, banywa inzoga zitandukanye. Kandi izo nzoga zirimo amoko menshi harimo Mitsingi, harimo Pirimusi, harimo n’agato.

Muri bare habamo ibiryo bigiye bitandukanye, abantu benshi barabikunda kuko biba biryoshye kurusha ibyo batetse mu ngo iwabo. Abagabo benshi banga kurya mu rugo rwabo kubera ko bahaze ibiryo byo muri bari.

Muri bale ndahakunda cyane kuko hatuma abantu basabana, kandi habamo amoko menshi agiye atandukanye y'ibinyobwa twavugamo sikolo, pirimusi na musanze.

Tugira amabotike manani n'amatoya. Niyo mpamvu nkunda cyane. Ikindi kandi hari acuruza amayinite, ariyo mabotique matoya. Tukajya n'amabotique manini acuza ibiribwa nk'imbuto zigiye zitandukanye.

Muri butike habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi byose bitugiriraga akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo tugiye guhahirayo ibishyimbo, ibigori, ibyo byose biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Butike ni nziza cyane kuko ibamo ibikoresho bigiye bitandukanye, kandi amabutike aratandukanye hari amabutike acuruza ibiribwa, acuruza ibikoresho hari n'acuruza imyambaro.

Muri butike habamo ibintu bitandukanye ibinyobwa, ibibiribwa n'imyambaro kandi bikadufasha kwiteza imbere, niyo mpamvu butike ari ikintu cyiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imodoka ni nziza cyane turazikunda kuko ziduha umunyenga, none iyo ziparitse iruhande rwa butike, butike igaragara neza cyane, niyo mpamvu muri za butike basigaye bacuruzamo n'imodoka.

Muri botike habamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Habamo amavuta bateka, habamo amavuta bisiga, ndetse n'umukubuzo bakuburisha ahantu handuye.

Muri botike habamo ibintu bigiye bitandukanye habamo intebe, inkweto, ingofero, ibitenge, ibikapu n'udutambara abantu bitega mu mutwe.

Nkunda botiki cyane, kuko iba irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Haba harimo ibigori, ibishyimbo, imyumbati, amakara n'ibigori.

Butike habamo ibintu bigiye bitandukanye, habamo amandazi, amabiswi, amagi ama base, imifuka ndetse n'udukoko.

Butike ndayikunda cyane kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo umuntu akeneye ikintu anyarukira kuri botike akakigura, yarangiza agasubira mu rugo yishimye cyane.

nkunda hotel cyane. Kuko ifasha ba mukerarugendo iyo baje gusura ingagi mu gihugu cyacu. Bibafasha kuruhuka neza, bakumva baguwe neza n'ikindi gihe bakazifuza kugaruka.

Nkunda amasoko cyane, kuko abamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye amasafuriya, ibikombe, amabase, imyenda n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igitoki ni cyiza cyane kandi kiraryoha, abantu baragikunda, iyo bagitekanye n'amakaroni, bararya cyane bakumva barijuse.

Mu isoko haba bibiribwa bigiye bitandukanye, kandi biraryoha cyane. Muri ibyo biribwa twavugamo imineke, inanasi, imyembe, ibinyomoro. Ibinyomoro bigira utubuto dutoya cyane kandi dusa umukara.

Karoti ndazikunda cyane. Kuko iyo wazikozemo isosi ziryohera akanwa, ikindi kandi zivura n'amaso zifasha abantu bakiteza imbere iyo bari kuzicuruza.

Mu isoko habamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Habamo isafuriya batekamo ibiryo. Tukagiramo umwuko bavugisha kawunga. N'ibase dukarabiramo.

Mu isoko dusangamo ibiribwa bigiye bitandukanye twavuga : inyanya, puwavuro, imiteja, ibitunguru, ibirayi, shufureri n'ibindi.

Mu masoko habagamo ibiribwa bitandukanye ibyo biribwa twavugamo: imineke, ibinyomoro, karoti amashu ndetse n' amatunda.

Mu isoko habamo ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza cyane, habamo imyembe, amaronji, amatunda n'inyanya.

Mu isoko habamo ibiribwa bigiye bitandukanye, kandi abantu bacuruza ibintu bitandukanye, muri ibyo bintu twavugamo:indagara, amafi, inyanya, karoti, ndetse n'intoryi.

Isoko ndarikundaga kuko rikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho habaga hari gucururizamo; imbuto, imboga n'imyambaro kandi ikaba rifasha buri umwe wese kugira ngo yihangire umurimo.

Imbuto ni nziza cyane kuko zigira akamaro ku mubiri w'abantu ikindi kandi zituma tugira ubuzima bwiza habamo amoko agiye atandukanye muri zo twavuga ibinyomoro, amatunda ndetse n'indimu.

Amavuta ndayakunda cyane, kuko iyo umuntu akarabye akayisiga aba asa neza cyane. Iyo umuntu atisize amavuta aba ari gukushuka cyane, uruhu rwakanyaraye.

Imbuto ndazikunda cyane, kuko ziraryoha zibamo amoko agiye atandukanye harimo: ibinyomoro, amatunda, imyembe n'amaronji.